Aha hari icyapa kinini, icyo cyapa kikaba ari kimwe mu byapa bikunda kugaragara ahantu henshi mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda, icyo cyapa kikaba kiriho ifoto y'umubyeyi w'umugabo usuhuzanyije n'uw'umwana uhetse igikapu, bikaba bigaragara nkaho ari icyapa cy'ibijyanye n'ubwishingizi.

Nk'ibisanzwe banki nyinshi mu Rwanda zigira apurikasiyo, ubwo buryo bw'apurikasiyo bukaba ari uburyo umukiriya wabo aba afite muri terefone ku buryo agenzura amafaranga afite kuri account yiwe cyangwa se konti yiwe, bityo bikamufasha kuyajera cyangwa se kuyabikuza no kubika uko ashatse.

Aha hagaragara abantu barikohereza amafaranga bakoresheje apurikasiyo bikaba bigaragara nkaho bagiye gushyiramo umubare w'amafaranga bamaze gushyiramo nimero ya konti bagiye koherezaho.

Iyi ni ifoto y'igikapu cy'abadamu, uko bigaragara ikaba ari ifoto ikuwe ku rubuga ndetse urwo rubuga gikuweho rukaba ari urubuga rw'iduka runaka ricuruza ibikoresho cyangwa se ibintu nk'ibingibi.

Mu Rwanda ni hamwe mu hantu hateye imbere mu kugira amaduka cyangwa se icyo bita botike mu ndimi z'amahanga acuruza imyenda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, nk'ubu kuri iyi foto haragaragaraho iduka riteye imbere rimanitsemo imipira ndetse hari n'abantu bakirirwa.

Ushobora kuba wagana amaduka agiye atandukanye acuruza ubugeni, aho usanga babubaza mu biti ugasanga bafite n'amahembe y'inka, aho ushobora kuba wagura umutako ukaba wawutaka mu nzu iwawe.

Aha hari ibikapu bitandukanye ndetse bigaragara nk'amavarisi, bitetse ahantu ku meza ndetse uko bigaragara ukaba wagira ngo ni mu isoko cyangwa se no mu iduka bacuruzamo ibikapu.

Aha hari imodoka isize amabara y'umweru n'umukara ndetse iyo modoka ikaba isa nkaho igurishwa. Zikaba ziboneka ahantu henshi mu bihugu bitandukanye, amasoko yazo akaba aba ahantu henshi hatandukanye.

Aha hari imwe mu modoka zo mu bwoko bwa toyota, izi zikaba ari imodoka zikoreshwa cyane mu Rwanda ndetse no ku isi yose, izi zikaba ari imodoka zikoreshwa cyane ku mubare munini w'abantu ku giti cyabo, atari iz'abantu muri rusange zimwe zitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Aha hari imodoka nziza, ndetse iyo modoka ikaba ikiri nshyashya. Si ibyo gusa irasa nk'igurishwa ndetse ikaba igurishwa miliyoni mirongo itandatu n'eshanu. Iyo modoka iri mu bwoko bwa 2018 Jeep Wrangler Unlimited. Ikaba igurishwa miliyoni mirongo itandatu n'eshanu nkuko nari nabivuze.

Aha hari imodoka ziparitse ndetse zisa nk'aho ari nshyashya, hakaba hari n'ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'agapapuro ku ruhande.

Aha hari imodoka y'umukara, ndetse iyo modoka irasa nkaho ari nshyashya, uko bigaragara igasa nkaho igurishwa, ndetse igurishwa miliyoni cumi na zirindwi, ubwoko bw'iyo modoka bwitwa vokisiwageni bibiri na cumi na gatandatu, ndetse ikaba igurishwa.

Hano hari abantu basa nk'abari muri banki bari kubikuza cyangwa babitsa amafaranga. Ubu bukaba ari uburyo bukoreshwa n'abantu mu ngeri zose, aho ushobora gusanga bari kwishyura nk'amafaranga y'ishuri ndetse n'ibindi bitandukanye muri banki.

Aha hari inote y'u Rwanda y'ibihumbi bitanu ikaba iteretse ku meza ndetse iyo note ikaba iriho uduseke ndetse ikaba ikoze mu buryo buryoheye ijisho ikaba ari inote nshyashya.

Nk'ibimaze kumenyerwa mu Rwanda, inote cyangwa se amafaranga akoreshwa agenda avugururwa uko bwije n'uko bukeye. Ibyo bikaba bikorwa mu kugira ngo amafaranga y'u Rwanda akomeze asa neza, hirinde n'umwanda. Nk'uko inoti uko ikomeza ica mu bantu, ari ko igenda yandura. Rero u Rwanda rukaba ruri mu bihugu bigerageza kuyahindura atarasaza cyane.

Aha hari umugabo uri kubara amafaranga y'amadorari ndetse ntari wenyine ari kumwe n'undi mugabo uri kumufasha kuyazirika bakaba iruhande rwabo hari n'imashini ibafasha kuyabara cyangwa se kuyateranya.

Aha hari abantu b'ibitsina bitandukanye ndetse bari ahantu bigaragara ko ari muri banki, bakaba baje kwaka serivisi nk'uko hari abantu bashinzwe kwakira abakiriya bari muri utu tuntu tw'utuhure.

Amafaranga ni kimwe mu bintu nkenerwa mu buzima bwa muntu, aho usanga uyajyana kugura ikintu runaka ukeneye mu buzima busanzwe amafaranga y'u Rwanda rero akoze mu buryo bwiza kuko urupapuro akorwamo, ari rumwe mu mpapuro zikomeye ugereranyije n'izindi z'Amahanga, rero bakaba barabikoze neza inoti zabo ziba zimeze neza zikomeye.

Iyi ni inote y'igihumbi cy'amafaranga y'u Rwanda, ikaba yarasohowe na banki nkuru y'u Rwanda ndetse ikaba ikoreshwa mu kugura ibintu byinshi bitandukanye nk'uko ibifitiye ubushobozi, ikaba ari inote yemewe n'amategeko y'u Rwanda.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda haboneka uburyo bwinshi bwo kohereza amafaranga mu mahanga no kwakira amafaranga avuye mu mahanga. Rero aho usanga harimo n'izo bita moneygram, izota wester union, aho ugenda ku biro byabo runaka biba biri ahantu henshi hatandukanye mu gihugu ukabikuza cyangwa se ukohereza amafaranga.

Aha hari akabati. Ako kabati kakaba karimo uducupa tw'amazi. Utwo ducupa tw'amazi sitwo twonyine turimo harimo na anvilope cyangwa se mvilope, Iyo mvilope ntituzi ikirimo, ariko uducupa tw'amazi turasa n'utugurishwa.

Aha hari inzu ebyiri muri izo nzu ebyiri harimo imwe iriho icyapa kigaragaza ko batanga amata cyangwa se mu ikaragiro ry'amata, imbere hakaba hari indi nzu irimo amakese ndetse hakaba hari n'intebe ndetse n'ameza asa nk'aho yakirirwa abantu.

Aha ni mu cyuma gikonjesha icyo bita firigo mu ndimi z'amahanga kikaba kirimo ubwoko bw'amata buba butunganyijwe mu nganda ndetse n'ubwoko bw'amata bucunze buri mu kaboni cyangwa se yavuze amata avuze ndetse hakaba harimo n'amazi nayo akonjeshejwe.

Aha ni mu muryango cyangwa se mu nzu yagenewe ubucuruzi, ndetse muri iyo nzu utarinjira hari icyapa kigaragaza ko aho hantu hari ikaragiro ry'amata ndetse si ibyo gusa, haparitse n'imodoka, witegereje neza ubonamo umuntu usa nk'umukozi cyangwa se utanga serivisi zitangirwamo aho, ari izo gutanga amata, aha ni mu ikaragiro ry'amata.

Aha hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro uko bigaragara ari mu ikaragiro ry'amata ndetse imbere ye ari kuvugana n'umutegarugori cyangwa se umukobwa usa nk'aho acuruza muri iryo karagiro imbere yabo mu tubati harimo n'amazi.

Aha ni ku ikaragiro ry'amata. Aho bazana amata avuye hirya no hino bakayashyira mu cyuma kiyakaraga kikayarinda kwangirika ndetse hari n'akabati cyangwag se igikonjesha kirimo uducupa cyangwa se utubuni tw'amata.

Aha haragaragara abantu b'ibitsina bitandukanye, ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bakaba bafite ibicuba by'amata, bakaba bari kubiseka mu mashini ikaraga amata mbere yo kuyaha abayashaka cyangwa se abaguzi.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata ndetse haragaragara umuntu ukora muri iryo karagiro, ari gushyira amata mu ijage birumvikana ni amata giye guha umukiriya cyangwa se umuguzi ndetse umuguzi akaba ategereje guhabwa amata.

Nk'ibisanzwe gukoresha uburyo bugezweho wishyura cyangwa se wakira amafaranga, biri mu bimwe byongera agaciro k'ifaranga runaka, ni muri urwo rwego rero u Rwanda rwabitekerejeho rukemera ko hatangira gukoreshwa ibyo twita digito karensi mu ndimi z'amahanga, ibyo bikaba bifasha mu kuzamura agaciro k'ifaranga.

Ku ifoto haragaragaraho mesaje cyangwa se ubutumwa bugaragaza ko hari umuntu woherererejwe amafaranga ibihumbi bitatu ariko ntagende bikaba bigaragara ko amafaranga atigeze agenda.

Aha ntiwinjiye mu ikoranabuhanga ryohereza amafaranga rigezweho ndetse ku bigaragara harimo nimero z'umuntu cyangwa se imibare y'umuntu ugiye koherezwa amafaranga ndetse n'umubare w'amafaranga ndetse ikiba gisigaye kikaba ari ukohereza.

Aha hari inoti z'inyamahanga cyangwa se z'abanyamahanga, hakaba izikoreshwa muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, harimo dora cyangwa se idolari. Si muri Leta zunze Ubumwe za Amerika gusa kuko n'ibindi bihugu byinshi birarikoresha, hakaba n'iryo bita ero cyangwa se iyero, iyero rikaba rikoreshwa naryo mu bihugu byinshi bitandukanye.

Mu Rwanda, ufite amafaranga y'amanyamahanga, ushaka amanyarwanda, birashoboka ko wayavunjisha. Hari ibiro, ibyo twita foregisi biro mu ndimi z'amahanga, ushobora kugana bakagufasha mu kuyavunja. Waba ufite amanyamahanga, ushaka amanyarwanda cyangwa se ufite amanyarwanda, ushaka amanyamahanga mu bikorwa bitandukanye.

Aha hari umuntu usa nk'utanga serivisi, akaba afite inoti enye z'amadorari, akaba ari kuzihereza umuntu usa nk'aho ari umukiliya cyangwa se umuguzi wamugannye, amafaranga akaba ari kuyamuha.

Ku ifoto haragaragara kimwe mu byapa bishyirwa imbere y'ibiro bivunjishirizwamo amafaranga y'amanyamahanga icyo cyapa kikaba kiriho iyero ndetse n'ifaranga ryo mu Bwongereza ndetse n'amashiriningi yo muri Kenya ndetse n'amatanzaniya n'ayo bitama Amayeni ndetse n'amafaranga yo mu Burundi bakaba yose bayavunja ndetse n'ibiciro avunjwaho.

Aha hari umuntu wambaye ibikomo ndetse ufite n'amafaranga uko bigaragara ikaba ari inote y'ijana yo mu buhinde, kuko hari amafaranga yo mu buhinde. Uwo muntu akaba asa nk'aho ahagaze.

Aha haragaragara amafaranga y'abamanyamahanga hakaba harimo amayero icumi, ndetse n'amadorari icumi, cyangwa se inote ry'idorari ry'icumi ry'amayero ndetse n'inote ry'iyero ry'icumi.

Aha hari inote z'abanyamahanga cyangwa se amafaranga y'abanyamahanga, hakaba hari amayero ndetse hakaba hari n'amadolari y'Abanyamerika, akaba akoreshwa mu bihugu byinshi bitandukanye.

Aha hari inzu ifunze ndetse hakaba hari n'imodoka ariko iyo nzu ifunze bisa nk'aho ari iy'imwe muri sosiyete zohereza zikanakira amafaranga ahantu henshi hatandukanye bita MoneyGram.

Aha haragaragara nko mu muryango abantu bagana bagiye kuvunjisha amafaranga, bashaka ay'amanyamahanga cyangwa se bashaka amanyarwanda, hakaba ari ahantu hasa nk'ateye imbere ndetse harimo abantu mo imbere

Aha uko bigaragara ni ahantu hahurira abantu benshi, ndetse urebye neza urabona imodoka nyinshi ziparitse iburyo ndetse hari ibiro byinshi by'ivunjisha cyangwa se bavunja amafaranga.

Aha ni mu rwinjiriro rw'inzu itanga serivisi zo kuvunja no kuvunjisha amafaranga ndetse ibi bikaba bikora kuburyo uzana amafaranga y'abanyamahanga bakaguhinduriramo bitewe n'ayo ushaka cyangwa se bakakuvunjira urugero ushobora kujyana amanyarwanda bakaguha amadolari cyangwa se ukajyana amadolari bakaguha amanyarwanda bitewe n'ibyo ukeneye.

Aha hagaragara akabati gakoze mu buryo bw'imbaho cyangwa se gakoze mu mbahoho, kakaba gakoze mu buryo bugezweho, ndetse hakaba hari n'intebe nayo ikoze mu mbaho mu buryo bugezweho, zikaba ziri ahantu mu nzu ku makaro.

Aha hari igikuta gisize irangi ry'umweru ndetse kiriho akantu cyangwa se umutako ukoze mu rubaho, uwo mutako ukaba uteretseho amavase ateye mo utwatsi dusa neza.

Aha ndahabona intebe zo mu ruganiriro z'umukara zigezweho ndetse n'a ameza agezweho ndetse uko bigaragara zikaba ari intebe zigurishwa.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda haboneka ahantu henshi hakorerwa ibikorwa by'ububaji, ibyo bikorwa bikaba bitunze imiryango myinshi bikaba binafasha abantu kubona ibikoresho byo mu nzu bikoze mu mbaho ndetse n'imbaho zifashishwa mu myubakire.

Ku ifoto haragaragara kimwe mu gikorwa cyangwa se cy'ubugeni gikoze mu mbaho hakaba hagaragara ko gikoze muburyo bwibasi hakaba ndetse hari na robine bigaragara ko hafungurirwamo amazi cyangwa se kifashishwa gishyirwamo amazi.

Aha hari inyubako isa neza, birasa nkaho ari mu masaha y'umugoroba kuko amatara aracanye kandi ari kugaragara, uko bigaragara iyi nyubako ishobora kuba ari hoteri.

Aha hari inzu nziza, ndetse hakaba hari n'intebe nyinshi, bisa nkaho bakira abantu benshi batandukanye, imbere hakaba hari inkangara zimeze nk'izirimo imitobe.

Aha hari ameza ateretse ahantu mu kabaraza ahantu hitegeye umujyi. Ndetse ayo meza ariho intebe zo kwicaraho, ndetse si ibyo gusa hateretseho n'ibyo kunywa. Uko bigaragara hasa nko muri hoteli.

Aha hari icyo nakwita nk'ikidendezi karemano cyangwa se pisine mu ndimi z'amahanga. Aha hateretse intebe ebyiri ndetse amazi arasa nk'akeye, ndetse ko bigaragara ubwo bwogero cyangwa se iyo pisine iri muri hotel runaka.

Aha hari ikirahure kibonerana kigaragazamo mu imbere mu nzu runaka, hakaba harimo intebe nziza ndetse n'ameza meza bisa nkaho ari muri hoteli, iyo hoteli ikaba yitwa Radisoni bulu ndetse iyo hoteli ikaba iherereye kuri komveshoni senta.

Ubu mu Rwanda ibintu byateye imbere, usanga ufite ikarita runaka yaba iya banki, yaba iy'akazi ushobora kugenda ugakora ibintu byinshi bitandukanye, ukabona uburenganzira ku bintu byinshi bitandukanye bitewe n'iyo karita, biri mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rukomeze gutera imbere mu bintu byinshi bitandukanye.

Aha hari umuntu cyangwa se abantu bahagaze imbere y'inyubako ndende cyane, kuri iyo nyubako hakaba hari icyapa cyanditsweho mowa inshuwarensi mu ndimi z'amahanga, uko bigaragara hakaba ari ahantu abantu bagana bagiye kureba ubwishingizi.

Aha, hari inyubako ikorerwamo ibintu bitandukanye ndetse bimwe mu bikorerwa muri iyo nyubako, hakaba harimo ubwishingizi bwitwa Purayime. Ndetse hakaba hari n'icyumba cyangwa se umuryango, bavunjishirizamo amafaranga y'abanyamahanga.

Aha hari igipapuro cyanditseho mobayilo mani, bakaba bari kugaragaza ko mobayilo mani iguriza abantu bakeneye amafaranga ndetse bakazayishyura nyuma.

Aha haragaragara ibiribwa bitandukanye mu isoko. Harimo karoti, intoryi, insenda, ndetse n'abantu hasa nk'ahari abaguzi ndetse n'abagurisha.

Aha ni mu isoko ndetse harimo n'abantu benshi harimo abacuruza ndetse n'abaguzi mu isoko harimo ibitoki, harimo inyanya, harimo ibitunguru, harimo intoryi harimo karoti, harimo ibibiririganya ndetse n'ibindi byinshi bicuruzwa nkenerwa mu gikoni.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda hirya no hino haba amasoko, aho ushobora kugenda ukagura inyanya, ukagura ibitunguru, ukagura amashu, n'ibindi nkenerwa byose mu rugo, bityo mukabasha kubaho neza. Kandi ikindi, ibyo bicuruzwa biba bifite amasuku binizewe kuko biba byaragenzuwe.

Nk'ibisanzwe, mu masoko menshi agiye atandukanye mu Rwanda, uhasanga ibiribwa byinshi nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Aho ushobora kugenda ukabona ibitunguru, ukabona inyanya, ukabona amashu ndetse n'ibindi biribwa byinshi bitandukanye. Ibyo bifasha mu iterambere ry'igihugu kuko ibi nkenerwa byose ubibona bikwegereye mu masoko.

Nk'ibisanzwe, ahantu henshi hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda haba inyubako zishobora gukoreshwa mu bucuruzi runaka cyangwa se muri business zitandukanye runaka, aho usanga hari inyubako nini ushobora kuba ucuruza ugakodeshamo, ushobora kuba utanga serivisi nyinshi zitandukanye ugakodeshamo, ibyo bigafasha igihugu mu gutera imbere.

Aha hakaba hari isoko iryo soko rikaba ricuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo karoti, ibirayi, intoryi ndetse rikaba ririmo abantu benshi.

Aha hari isoko. Ndetse iryo soko ririmo abacuruza benshi. Birumvikana n'abaguzi ni benshi. Iryo soko ricuruzwamo inyana, pavuro, sereri, amashu, ndetse n'ibindi biribwa byinshi, nkenerwa mu gikoni.

Aha hari inyubako ndende ndetse ifite amadirishya y'ibirahure urebye neza ubona abantu barimo imbere ndetse bikaba bigaragara ko hashobora kuba harimo n'ibicuruzwa rikaba rishobora kuba ari nk'isoko.

Aha ni mu isoko ndetse uko bigaragara hari abantu benshi, ari abagurisha ndetse n'abaguze iri soko mu bigaragara cyangwa se muri iki gice hakaba hari ibitenge ndetse n'ibindi byose bikorwa mu bitenge bishobora kudorwa mu gitenge.

Aha hari abantu benshi birasa nkaho ari ku isoko, ndetse ku ifoto haragaragara umuntu uzwi ku izina ry'umukarani, ndetse akaba yikoreye ibisa nk'ibirayi abijyanye ahantu hashobora kuba mu modoka cyangwa se mu ngo z'abantu.

Aha ni mu isoko, ndetse isoko ririmo abantu benshi. Uko bigaragara, harimo abacuruzi ndetse nta kabuza ntihaburamo n'abaguzi, muri iryo soko baracuruzamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo amateke, harimo imineke, harimo ibitoki, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Aha haragaragara abanyamahanga bitandiye basa nk'abayisilamu bakaba bagiye guhaha mu isoko ndetse impande yabo hakaba hari abamama cyangwa se abagore basa nk'abacuruza muri iryo soko.

Nk'ibisanzwe ubucuruzi ni bumwe mu bintu biba bihatse ubukungu bw'igihugu. Mu Rwanda rero mu masoko menshi atandukanye, ubonamo abagore bagenda bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo iby'ubugeni, hakaba harimo n'ibyo bita mu ndimi z'amahanga byaje ubu mu Rwanda bita meyidi ini Rwanda. Usanga ahantu henshi mu masoko ibitenge n'ibintu byinshi bitandukanye wabibona.

Aha hari umutegarugori cyangwa se umwari ndetse wambaye umupira wa emutiyeni akaba ari mu kazu gahabwa abakozi batanga serivisi za emutiyeni ndetse akaba ari ahantu hatuye abantu cyangwa se hegereye ibikorwa by'ubucuruzi.

Aha hari abantu bari gutanga serivisi za mobile mane hakaba hari na mikoro isa nkaho iri gutanga ubutumwa ku bantu begereye aho.

Aha hari igipapuro cya mobayiro mani cyangwa se kiriho kode za mobayiro mani bishyuriraho ndetse hakaba hari n'umuntu ufite telefoni ndetse uri kugerageza kwishyura ugeze aho ashyiriramo amafaranga agiye kwishyura.

Aha hari umugabo cyangwa se umusore wicaye muri ya nzu navugaga emutiyene ihereza abatanga serivise zayo ndetse yambaye agapfukamunwa, sibyo gusa hari n'undi musore umuhagaze imbere usa nk'aho uri kumwaka serivise nawe wambaye agapfukamunwa n'ingofero.

Aha hari igipapuro cya MTN, gihabwa umucuruzi runaka, kiriho amazina ye ndetse na nimero ya kode, ni ukuvuga ngo abakiriya baraza bakagura, mu gihe cyo kwishyura abakoresha telefone bakareba kuri iki gipapuro bakishyura bakoresheje mobiro mani.

Aha hari inzu ntoya zihabwa abatanga serivisi za emutiyeni cyangwa se abahagenda zikaba zisize amabara y'umuhondo nk'ibisanzwe ni emutiyeni ndetse utanga serivisi ajyamo agatanga serivisi arimo kugira ngo izuba ritamwica ndetse atanarambirwa ndetse hari n'ahantu hasa nk'aho hegereye aho abantu batuye.

Nk'ibisanzwe mu Rwanda abantu bakeneye kugura cyangwa se kugurisha ibintu byinshi bitandukanye, bakenera icyo twita mobayiro mani. Iyo mobayiro mani ni uburyo bwo kohereza ndetse no kwakira amafaranga mu bantu, mu baturage bisanzwe. Rero ugasanga bifasha abantu mu gukora gahunda zabo ndetse na bizinesi zabo zikagenda neza.

Aha hari cya gipapuro cy'umuhondo cya MTN kiba kiriho nimero cyangwa se kode z'ucuruza ndetse n'amazina ye, iyo bamaze gutanga serivisi, uwo bayihaye agiye kwishyura cyangwa se bamaze kumuha igicuruzwa agiye kwishyura, areba kuri icyo gipapuro cya MTN, ubundi agashyiramo kode akishyura.

Aha hari abantu babiri hakaba hari umwe wambaye kasike ndetse n' ijire umeze nk'umumotari hakaba hari n'undi wambaye agapfukamunwa k'umukara wambaye n'ishati y'umutuku imbere yabo hakaba hari moto iriho akantu k'agasanduku bakaba bafite ikintu cy'igikarito basa nk'abari guhererekanya ibintu.

Aha hari urubuga ndetse uko bigaragara rukaba ari urubuga rw'isoko runaka, aho ushobora kujyaho ukagura ibiribwa byinshi bitandukanye, harimo icyo twita nka kokombure, harimo amashu, harimo insenda, harimo inyanya ndetse n'ibindi byose nkenerwa mu gikoni.

Aha haragaragara umuntu wambaye umupira ndetse n'agapfukamunwa w'umuhungu akaba afite moto iriho agasanduku kandiditseho yego bikaba bisa nk'aho ari umwe mu bantu badelivarinze cyangwa se bagejeje umukiriya wabo bamugejejeho bimwe mu bintu yaba yaguze kuri murandasi.

Aha haragaragara inzu ifitemo parafo yo mu bwoko bwa langete ndetse harimo n'amatara agezweho hakaba harimo n'imeza zimeze neza ndetse n'intebe zimeze neza bikaba bisa nk'aho ari inzu cyangwa se icyo twita aparitema zikodeshwa.

Aha ni mu nzu ndetse hakaba ari kimwe mu duce twita mu ruganiriro hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, harimo ameza, harimo intebe, harimo televiziyo ndetse n'imitako.

Mu bigaragara, aha turi mu gikoni cy'inzu runaka ndetse akaba ari igikoni kigezweho ndetse uko bigaragara ni inzu ishobora kuba igurishwa i kigali mu Rwanda. Miliyoni mirongo irindwi n'eshanu.

Aha haragaragara ubwogero bwa kizungu ndetse n'ubwiherero bwa kizungu, bigasa nk'aho hari ubwiherero bufite isuku ndetse hakaba n'ahandi bashobora kwiborosereza cyangwa se bagakarabira mu maso mu nzu mu b'imbere.

Aha hari inzu isize amarangi y'umuhondo ndetse iriho n'inzugi z'ibirahuri binini; ikaba ari inzu isakaye n'amabati akomeye; ndetse uko bigaragara ni inzu ishobora kuba ikodeshwa; ikaba ari n'inzu igezweho.

Aha hari inzu yubatse mu buryo bugezweho ndetse ikaba isize amarange asa neza, ikaba ngo ari inzu ikodeshwa ngo iherereye i Kanombe ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu.

Aha hari inzu yubatse ku buryo bugezweho ndetse iyo nzu ikaba isize irangi ry'umweru ku mabaraza ndetse ikaba isa nk'ifite amakaro. Iyo nzu uko bigaragara, ni inzu ikodeshwa iherereye Kimironko.

Aha hari inzu yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ari inzu iteye amarangi y'umutuku n'umukara ikaba igeretse inshuro ebyiri ndetse hakaba hari n'ubusitani iruhande rw'iyo nzu ikaba isa nkaho ari apartment cyangwa se za nzu zikodeshwa usanzemo ibintu nkenerwa byose mu nzu.

Abashoramari batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, bagenda bashora mu bijyanye no kubaka amazu akodeshwa cyangwa se ayo bita aparitema mu ndimi z'amahanga, ayo mazu rero aba arimo nkenerwa byose harimo ibitanda, harimo iki, ni ukuvuga ngo uwimukiyemo agenda uko yagiye ibindi byose abisangayo, bityo rero, bikaba bifasha igihugu mu iterambere ndetse no gukurura ba mukerarugendo.

Aha hari inyubako yubatse mu buryo bugezweho ndetse ifite n'ubusitani busa neza, bikaba bigaragara ko iyo nzu ikodeshwa mu madorari ibihumbi bibiri ndetse hakaba hari na nimero ushobora guhamagara uyikeneye.

Aha hari umuntu uhagaze wambaye mikoro ku ishati ndetse usa nkaho afite ibintu ari gusobanura, akaba ahagaze ahantu imbere y'inzu runaka. Uko bigaragara akaba ari nk'umuntu ukorera kompanyi zigurisha amazu cyangwa se company zigurisha amazu.

Aha haragaragara nko mu isoko hakaba hari ibiribwa byinshi bitandukanye nka seleri, nk'idodo, nk'inyanya, ibibiriganya, ndetse n'ibindi bintu byose nkenerwa mu rugo cyangwa se mu gikoni bateka.

Aha ni mu isoko ndetse isoko risa nkaho ari rigari cyangwa se ryagutse. uko bigaragara rikaba ari isoko rifite ibintu byinshi bitandukanye Kandi buri wese ajya kugisata cyangwa kugice kiriho ibintu akeneye harimo igice kirimo amasabune, hari igice kiriho ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Aha ni mo mimbere mu muturirwa runaka, ndetse ukaba ari umuturirwa wagenewe ubucuruzi cyangwa se ibikorwa byinshi bibyara inyungu ,muhagaragara haragaragara aho batanga ibiribwa ndetse hakaba hahurira abantu benshi bakeneye iyo serivisi abo bantu batanga bo muri iyo nyubako.

Iyi ni ikarita ya mituweri, iyi ikaba ari ikarita yahabwaga umuntu ugiye kwivuza cyangwa se wishyuye ubwishingizi bwo kwivuza ariko ubu uwujuje imyaka yo gufata irangamuntu ajyana irangadanmuntu gusa. Ni ukuvuga ngo iyi karita kuri ubu ihabwa abataruzuza imyaka yo gufata indangamuntu.

Aha ndabona ikarita y'ubwisungane mu kwivuza izwi nka mituweri, iyi akaba ari ikarita ihabwa abaturage mu rwego rwo kugira ngo boroherezwe uburyo bwo kwivuza, ikaba ikoreshwa ku bigo nderabuzima bya leta ndetse n'ibitaro, bikaba ari bimwe mu bintu bifasha abaturage gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse bajya no kwivuza.

Aha haragaragara ibicuruzwa; uko bigaragara ni mu isoko rigezweho; hakaba harimo ibicuruzwa bitandukanye; ndetse hakaba hari icyapa kigaragariza cyangwa se, kereka umuguzi ibyo ashaka aho agomba kubishakira.

Aha, uko bigaragara ni mu isoko. Ndetse hakaba ari ku gice kibarizwamo imigati. Akaba ari imigati iba iteye bitandukanye. Hakaba hari imigati iba ikase ndetse n'imigati idakaze. Iyo yose ikagurwa bitewe n'umuguzi icyo ashaka.

Aha birasa nkaho ari mu isoko ndetse mu bigaragara hakaba hari umuntu usa nk'uri gufunga ibintu cyangwa se uri kubara ibicuruzwa umuntu runaka yaba yaguze w'umukozi wo muri iryo soko.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana amaduka manini bakunze kwita amasiperi marishe mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasanga ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa bikomoka ku bimera, hakaba hari n'ibiribwa ushobora kuba wagura ukabitana ukaba wabirya.

Aha haragaragara umugabo uri kuri telefone, wambaye ikoti ndetse n'ishati ndetse na karuvati, imbere ye hari ibicuruzwa bitandukanye byifashishwa mu rugo cyangwa se byifashishwa mu isafuriya mu guteka.

Aha ni mu isoko ndetse uko bigaragara ahakaba ari mu gice kibonekamo ibikoresho byo mu gikoni hakaba hari abantu babiri basa nk'abishimye ndetse umwe akaba ari gufotora undi uri gushyira ibisorori mu kantu kameze nk'inkangara.

Aha hakaba hari umuntu uri gukurura ikintu kimeze nk'umufuka ndetse imbere y'iwe hakaba hari udupaki tw'amata ndetse n'amazi na ji zitandukanye.

Ku ifoto hari umukozi wo mu iduka runaka cyangwa se wo mu isoko runaka, akaba afite imashini ikozwaho ikarita ya banki mu gihe umuguzi ari kwishyura ibicuruzwa atwaye.

Aha haragaragara umuguzi ndetse n'umukozi wo mu iguriro cyangwa se mu iduka, akaba asa nk'uri kwereka umukiriya cyangwa se umuguzi uburyo yakoresha yishyura, bikaba ari mu bintu byifashishwa ahantu henshi bacuruza.